Kwa muganga basuzumira indwara, bakanatesitingira kugira ngo bamenye ubwoko bw'uburwayi, bwagaragaye ku murwayi runaka, maze baze kubona uburyo bwo kumufasha bitabagoye bazi neza ikintu bagiye kuvura.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, hariho imiryango n'amadirishya y'ibirahuri hariho za esikariye, n'imbuga ya jaride hateyemo n'indabo kugira ngo hase neza.

Ibyatsi by'imifumba, aho ihene n'intama birisha, bikaba ari ubwatsi bw'amatungo magufi n'amaremare, kugira aborozi biborohere.

Igitari kirimo ibiti bikuze n'ibitoya byifashishwa mu kubaza, mu kubaka, no mu gucana amatara. Hakaba hari n'ikiri kumera cya nyiramweru.

Igiti c'inyinya giteye impande y'uruzitiro, akenshi zikaba ziribwa n'abantu barwaraga cane cane impyiko, kandi zikaba zizwiho no kurura ntabwo ari umuntu wese upfaga kuzirya.

Igiti cy'inturusu cyashibutsa ku gitsitsi akenshi bikaba bicanwamo amakara ibindi bakaba babyubakisha ndetse hakaba havamo n'inkwi ibiti bya nyiramweru ndetse n'igiti cy'ikidariya.

Intondore akenshi zigira utubuto dukundwa n'abana, amatovu akunze kuvamo ibyatsi by'amatungo nk'ihene, intama, n'imiravumba iri hirya akenshi ikoreshwa mu kuvura umutwe.